Utujerekani twa litiro eshanu ,litiro rimwe, eshatu ,zikoreshwa mu kwica udukoko . Turambitse ari tune hasi ndetse nyuma yatwo hari ahantu hari ibyatsi byumye.

Umugabo uhetse icyuma gitera umuti, wambaye n imiyenda yimvura arimo gutera umuti ibigori, ari gukoresha icyuma gisa n n'umutuku.

Ibyo kurya by'ubwoko butandukanye biteretse ku meza harimo umuceri, inyanya n'ifi biteretse ku isahani.

Amafi atatu ateretse ku isahani ,hafi y'amafi hariho tungurusumu ndetse n'utundi tuboga tw'ubwoko butandukanye.

Amafi matoya ari mu ibase, kandi ayo mafi ndabona asa naho amaze igihe gito akuwe mu nyanja.

Isoko y'amazi meza, hafi y'aho hari ibiti, hari amazu menshi cyane. Iruhande rw'amazu hirya hari ikirunga kinini cyane.

Amafi y'ubwoko butandukanye, arambitse muri firigo kugira ngo atangirika. Harimo ifi zimaze igihe kandi ndabona zirenze eshanu.

Isahani iriho ibyokurya hariho ifi, umuceri, imboga, urusenda, ndetse hariho n'ikiyiko.

Umurima usaruwemo ibigori ibigorigori byabaye inshingiriro babyegetse ku ruzitiro, kuri urwo ruzitiro hari insina zitandukanye zahushwe n'umuyaga.

Umurima uhinzemo ibitunguru, ntabwo bigariye. Hafi y'umurima hariho insina z'ubwoko butandukanye. Ibitunguru bihinze ku muronko.

Umurima wasaruwemo ibigori uraraye hafi y'umurima hari undi muririma uhinze muri uwo murima uhinze ushinzemo igiti kipoto, muri uwo murima uraye harimo igiti kinini.

Umurima wihinzemo ibigori ibigori bihetse bibiri bibiri, kandi ibigori bigeze igihe cyo kwera, gusa amababi yabyo aratoshye mu bigori hatsemo n'ibikumbi.

Umurima uhinzemo ibirayi bya Kinigi, biri ku yanga ibirayi. Hafi y'umurima hari ishyamba, hafi y'aho ndahabona amazu arenga atatu.

Umurima w'ikibara uhinzemo amashaza, ibihaza kandi basaruyemo ibigori.

Umurima gwuhinzemo insina zirenga eshanu, hafi y'izo nsina hari inzu, hari amahuhwa, ndetse hari n'abantu bari kugenda.

Umurima waruhinzemo insina uraraye, hafi yuwo murima hari inzu zitandukanye zubakishije ibiti ndetse n'izubakishije inkarakara.

Umurima w'ibitunguru uhinzemo ibishyimbo by'imbuto ngufiya, hafi y'uwo murima hari undi murima uhinzemo ibigori byumye.

Umurima wahinzwemo ibigori bakabisarura, urimo ibiti by'inturusu bakokoyeho amashami yabyo.

Umurima uhinzemo imboga rwatsi, mw'uwo murima hashinze mo ipoto, mw'uwo murima nanone hahinze mo insina z'urutoki.

umurima guhinzemo amajeri n'ibigori hafi yaho hari uruzitiro rw ibidodoki hariho n'inzu ifite n'igikoni cyayo

Umurima wahinzwemo ibigori batemye, usigaye ari ikigorigori. Ibigori byavuyemo. Ibigaragara, bahoze bari kuragiramo amatungo.

Umurima urimo ibibunobono byinshi, uraraye. Iruhande rwawo hari insina hari n'ibiti birebire.

Umurima uhinzemo ibirayi bya Kinigi, hari hahinzemo n'ibigori. Ibyo birayi bigiye kwera kandi ni byiza cyane.

Urutoki ruhinzwe mu murima wavuyemo ibigori, hirya y'urutoki hari inzu ndende urutoki rukoreshejwe ibiti.

Imboga za karoti zihinze mu murima hamwe biragaragara ko zeze ,ahandi biragaragara ko zarumbye, hafi yazo hahinze umurima w'ibirayi.

Umurima umaze umwanya muto uhinzwe, bahinze mu buryo bw'imitabo hafi yawo hari umuntu wunamye urimo gukura ibirayi.

Avoka ihinze mu murima w'ibigori, ndabona yeze cyane, ifite ibitusha by' Avoka byiza.

Imiteja y'ibishyimbo yasoromwe, ndabona iri ahantu heza kandi iyo miteja iracyari mitoto kandi ni myiza cyane.

Umubyeyi wikoreye imboga mwibase ayikoreye yazinze ingata arimo aramwenyura. Ahantu ari hasa n'ahakorerwa ubucuruzi bw'imboga.

Ibirayi bivuye mu murima yo mu bwoko bwa kinigi, birambitse ahantu babicururiza, hafi yabyo hari abantu bari kubicuruza.

Ibikarito bitwarwamo amakesi ya fanta, birimo imboga zitwawe n'abantu batatu bari kuzijyana, harimo ndetse n'imboga rwatsi.

Umurima uhinzemo ibirayi ndetse n'ibishyimbo by'imbuto ndende, harimo haratoshe cyane ntabwo umuntu yapfa kubona aho kunywara, hafi yaho hari gitari.

Amateke avuye mu murima arambitse mu kabase k'icyatsi. Ateretse hasi ku butaka. Ari ahantu ateretse hariho n'amabuye matoya.

Intoryi ziteretse ku gasahani, zimwe zirakase, izindi ntabwo zikase. Ndabona eshanu zidakase, rumwe bakasemo uduce twinshi.

Umugabo umwe nabagore babiri bari mu muririma wamashu, buri wese afashe ishu imwe umugabo yambaye ingofero na bote, nabagore biteze igitambaro mumutwe barimo kumwenyura.

Ibitoki byo kurya by'ubwoko butandukanye, birambitse ahantu babicururiza kugira ngo abaguzi baze babigure. Ni ibitoki birenga makumyabiri.

Ababyeyi barimo kubagara umuceri, bose barimo gukora neza, kandi nikirere bari gukoreramo ndabona gisa neza.

Ibirayi biri mu buhunikiro biri mu ma etajeri menshi, kandi ndabona ari imbuto, imbuto ijya kuba nk'iya Kinigi.

Abahinzi barimo guhinga, barimo guhinga bambaye ibirenge, barimo guhingisha amasuka. Inyuma yabo hari abandi bantu bari guhinga ahantu hameze nko mu kibaya.

Avoka y'inyarwanda ngufi ihinze mu butaka ikikijwe n'ibyatsi bitandukanye byumye iri mu butaka bwiza bw'umukara .

Umurima urimo inyanya harimo umugabo ufite igipaniye ,arimo arasoroma inyanya zeze . Yambaye isarubeti y'icyatsi ndetse mu nyanya harimo inyanya zeze n'iziteze.

Abakozi barimo gutera ibirayi bari guca imisitari, ni abagabo batatu n'umudamu umwe Bari gukoresha amasuka.

Umurima munini cyane uhinzemo ibigori, ibigori biri hafi kwera bihinze ahantu mu kibaya, hashobora kuba hangana na hegitari.

Isoko ry'ubucuruzi bw'ibyokurya bitandukanye harimo: inyanya ,intoryi ,amaronji ,ibinyomoro n'ibindi bitandukanye.

Umurima w'amatunda ushinzemo ibiti byo kuyafata. Ba nyir'umurima nabo barimo baje kuwusura, kandi hafi yaho hari ibigega bibiri.

Avoka ikase neza ikataguyemo ibice bibiri, iruhande rw'aho hari n'izindi voka ebyiri zidakase, kandi ivoka zose ziteretse ku meza.

Abaturage bahagaze iruhande rw'umurima muri uwo murima, harimo abantu bari gutera ibirayi, bari guteresha ifumbire yitwa ishwagara.

Igitoki kinini cyane k'ikiro mirongo itatu, kirambitse ku nzu y'amatafari. Hafi y'aho igitoki kiri, hari idirisha kandi igitoki giteretse ku mbaho.

Abaturage batandukanye bari kumwe n'abayobozi ba leta barimo bareba icyateza igihugu cyabo imbere, inyuma yabo hari amazu ndetse n'ibiti bitandukanye.

Ibigori bimanitse ku biti ni byinshi cyane birarundanyije cyane, hafi yabyo hari umuryango wa metarike ukinzemo ibirahuri.

Ubuhunikiro bw'ibigori bya kijyambere buhunitse ahantu mu nzu nini cyane, ibigori bimanitse byanitse ku biti bine. Ibigori byiza kandi inzu birimo irasakaye.

Inkoko z'ubwoko butandukanye zirimo kugendagenda hafi yo mu rugo, harimo iy'umweru iz'ibijuju ebyiri.

Ibijumba byinshi cane birambitse ahantu babigurishiriza, ndabona harimo: iby'umutuku, iby'umweru ndetse n'ibijya gusa n'umukara.

Umugore witeze igitambaro, ufashe bombo arimo aruhira imyaka. Hafi ye hari umusozi muremure.

Umugabo uri mu muririma w'ibigori arimo kugenda acagurira ibigori yambaye umupira ahantu ari ni ahantu harimo ikibaya hirya y'umurima we ni ibiti bya avoka bitandukanye.

Amateke ahinze mu murima ntabwo arera harabura igihe gito ngo yere, ndabona ari igitsina kimwe.

Umurima wahinzwemo inyembe bari kuyisarura bari gusarurira mu mifuka itandukanye hafi y'aho hari umurima uhinzwemo ibigori

Ibigori birambuye ku mashitingi manini ni byiza. Hafi y'ibigori hari ibiti birimo: za voka, ibiti iby'intusi kandi biratoshye cyane.

Umurima g'umuceri guratoshye cane ibigaragara ugeze igihe cyo gusarurwa.

Inzuzi za kinyarwanda zirambitse kuri purato, zisa n'umukara zirumye cyane, kuburyo bazitera mu murima.

Ibishyimbo by'ibizungu, ndabona bifite n'uruyange, bifite n'imiteja myiza biri hafi kwera.

Barimo baragosora imyaka bari kugusorera ku ntara . Ndabona ahantu bari, hasa n'aho ari mu isoko. Harimo n'abaturage benshi baje guhaha.

Ubwatsi bw'inka bwitwa urubingo buratoshe cane ni urwo kwahirira inka, ahantu ruhinze ndabona ari hanini cane .

Isoko ricururizwamo ibyo kurya bitandukanye haririmo: ibishimbo, harimo ingano, n'ibindi bitandukanye. Hafi yabyo hari abantu baje kugura ndetse iryo soko rifite umunzani nintara bagosoreraho ibishyimbo.

Umugabo yunamye mu mbuto z'ibirayi arimo arasa naho ari kubitunganya neza, ndetse ahantu ibyo birayi biri ndabona hatwikiriye.

Imifuka ya kawunga iri ahantu muri sitoke ipanze neza cyane, kandi ndabona ari iy'ibiro makumyabiri na bitanu.

Umugabo utwaye igare atwaye imizigo y'ibishyimbo by'imbuto ngufiya, ahagaze inyuma yigare hafi ye hari inzu ndetse n'urutoki.

Ibigori by'amabara birambitse kuri bogisi, bari kubishandika. Ni ibigori byiza cyane.

Ibijerekani bibiri, birahambiranyije, hafi yabyo hari imifuka y'imiceri, ndetse n'imifuka ya kawunga, iruhande rwaho hari ho ameza.

Inka iri mu kiraro harimo umushumba wayo arimo arayitera umuti w'urusimba, kugira ngo imererwe neza.

Amatereyi arimo amagi, ni menshi atondetse amwe hasi andi hejuru, hari arambitse ukwayo n'andi hirya yayo hariho andi; harimo ay'umweru, amagi ndetse n'ay'umuhondo.

Ingurube ibyagiye mu kiraro cyayo, iryamye ku mbaho kandi ikiraro cyayo gikozwe mu mbaho, bigaragara nkaho iremerewe cyane.

Inka zirimo kurisha igikuyu ahantu hanini cyane，mu gikuye inka zirimo harimwo ibiti bitandukanye.

Amagi y'ubwoko butandukanye, arambitse ahantu habugenewe. Ateretse muri tureyi igira amagi mirongo itatu.

Inyoni ihagaze ku giti cyumye, ndabona inyoni ituje cyane, ndabona rwose inyoni nta kibazo ifite, imeze neza.

Imwe mu nyoni zo mu ishyamba ihagaze ku giti kigaragara nk'aho ari icy' avoka. Isa n'umukara, ifite umunwa muremure, iratuje cyane ifite n'umurizo munini..

Imwe mu nyamaswa zo mu ishyamba yitwa ingagi, isa n'iyakomeretse ku mutwe wayo. Ifashe ibyatsi biribwa mu kanwa kayo.